Abantu bari mu nama abagabo n'abagore ibendera ry'gihugu, ibyapa, ameza ateretseho ibikapu, uducupa tw'amazi impapuro na telefoni.

Abantu benshi bicaye baje mu nama, harimo n'abashinzwe umutekano, umugabo ufite indangururamajwi, wambaye umupira w'umweru, ameza ariho uducupa tw'amazi, icyapa gishushanyijeho umwana cyanditseho amagambo, ikigega cy'amazi, ibiti.

Abantu benshi bicaye bari mu nama higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abasore, ihema risa umweru ndetse n'ubururu, ikigega cy'amazi inzu ibiti.

Abagabo benshi bicaye bari mu nama harimo uwambaye amadarubindi, umugore uri inyuma urigutambuka, ameza ateretseho uducupa n'ibitabo.

Abantu benshi cyane, ni abasore n'abakobwa bagiye muri sitade, hari abambaye imipira hejuru isa, iri mu ibara rya oranje, umuntu uri gufotora, itara riri kwaka.

Abantu benshi bicaye bari mu nama yiganjemo abagore abantu batatu bicaye imbere bambaye amadarubindi, ibirahuri biteretse ku meza n'amacupa, mudasobwa, terefone n'amabahasha.

Abantu bicaye harimo abambaye imyenda isa uburu umugore wambaye amarinete, iruhande rwe hicaye undi, n'umugabo wambaye isaaha ku kuboko, ameza ateretseho terefone inini n'intoya uducupa tw'amazi dutatu.

Abantu batatu bicaye bari mu nama, hari uri ku ruhande, abandi babiri begeranye n'umugabo ndetse n'umukobwa, iruhande rwabo hahagaze umuntu wambaye ishati y'umweru ufite urupapuro mu ntoki, ameza ateretseho uducupa tw'amazi n'impapuro.

Umugore w'umwisilamu wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe ufite indangururamajwi mu ntoki ze, iruhande rwe hicaye abandi bagore hari ameza ateretseho ibitabo, inyuma hari abagabo babiri bicaye imbere yabo kumeza hariho mudasobwa ebyiri n'uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye umusore uhagaze wambaye ishati y'umweru isa ku kuboko n'amadarubindi, ameza ateretseho za mudasobwa, uducupa tw'amazi, ikirahure, impapuro na za terefone.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, amadarubindi, umugore wicaye iruhande rwe, abandi bantu biganjemo abagabo bicaye, ameza ariho isakoshi mudasobwa ebyiri amaterefone agacupa k'amazi.

Abagabo n'abagore bicaye bari mu nama harimo n'abambaye amadarubindi, ameza ateretseho mudasobwa n'uducupa tw'amazi telefone ibitabo, igikoresho cyifashishwa mu kwerekana amashusho.

Abazungu babiri; umugore ndetse n'umugabo, umusaza wambaye amarinete mu gahanga, ufite igitabo mu ntoki, uducupa tw'amazi duteretse ku meza ndetse n'impapuro, n'abandi bantu benshi bicaye.

Abagabo bicaye bari mu nama harimo bane bambaye imipira isa ubururu babiri bafite terefone mu ntoki, umusaza wambaye amadarubindi ikoti ry'umukara ufite ikaramu mu ntoki.

Aha abari mu nama ni bagabo n'abagore ameza ariho uducupa tw'amazi ururabyo ruteretse hasi, ibyapa icyuma kinini gifashe ku rukuta, gikoreshwa mu kwerekana amashusho.

Abagabo bicaye bari mu nama harimo umusaza wambaye amadarubindi n'umugore umwe, umuntu uhagaze uri gufotora, inyuma amarido ari mu ibara ry'umukara, amatara ari kwaka, agacupa k'amazi gateretse hasi.

Umugore uhagaze wambaye imyenda y'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, abagabo babiri bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho agacupa, intebe ziticayeho abantu, igikoresho kinini gikoreshwa mu kwerekana amashusho.

Abagore batatu bicaye bari mu nama, ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ariho icupa ndetse n'ikirahure cy'amazi, ibyapa, amakayi.

Abantu bicaye benshi bari mu nama ku murongo ubanza ni bagabo batatu bose bambaye amarinete, imbere yabo hari ameza hariho telefoni, amacupa, ndetse n'ibirahure byo kunyweramo n'ibitabo.

Abantu batatu bicaye bari mu nama, abagabo babiri n'umugore umwe, ameza ateretseho uducupa tw'amazi, mudasobwa, ibitabo, amakaramu, icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu cyanditseho amagambo.

Abakobwa batatu bambaye amashati y'mweru n'amajipo y'umukara, ndetse n'umusore umwe, ameza arambuyeho igitambaro ateretseho telefone, irido y'umweru, umuryango ufunguye.

Abantu bicaye bari mu nama. Ameza arambuyeho igitambaro gisa umweru; hariho uburabyo, ingofero, uducupa tw'amazi imbere ya buri muntu, igikapu, amadirishya afunguye, izindi mudasobwa ziri ku ruhande, n'ibikoresho byifashishwa mu gusakaza amajwi.

Umugore uhagaze wambaye ijipo y'umukara, ishati irimo uturongo, ufite indangururamajwi, umugabo wicaye imbere, intebe irimo ubusa, icyapa

Abagabo bahagaze ku madarajya bari kwifotoza, harimo abambaye amadarubindi, babiri bafite amakayi mu ntoki, inyuma yabo hari inyubako yubakishijwe ibirahuri.

Abantu bicaye bari mu nama, abagabo ndetse n'abagore, ameza ateretseho amashakoshi, uducupa tw'amazi, amakayi, amakaramu, ndetse n'indangururamajwi.

Abantu benshi bicayemo abakobwa ndetse n'abahungu, umugore uhagaze wambaye ikote risa ubururu, umusore nawe uri imbere uhagaze wambaye ishati y'umukara.

Abantu bicaye abagore n'abagabo, hari umusore uhagaze ari kuvuga wambaye umupira w'umweru, ameza arambitseho ibitambaro hariho terefone, impapuro, hari intebe ku ruhande y.umweru, icyuma gikoreshwa mu kwerekana amashusho.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye harimo n'umuzungu umwe, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, ibirahuri by'amazi, amakayi, terefone ndetse n'igikapu giteretse hasi.

Abagabo bicaye harimo umuzungu umwe wambaye amadarubindi bari mu nama bafite uducupa tw'amazi ibitabo hari kandi n'amatara ari kwaka.

Umugabo wambaye impuzankano ya police iruhande rwe hicaye umugore wambaye amadarubindi, ameza ateretseho uducupa twamazi imbere ya buri muntu, indangurumajwi, undi muntu wicaye inyuma.

Abagabo babiri begeranye bose bambaye amashati, umugore wambaye amadarubindi, iruhande rwe hari abagabo babiri, ameza ateretseho mudasobwa, terefone, uducupa twinshi turimo amazi, impapuro, ishakoshi.

Abantu batatu, umugabo umwe wambaye amadarubindi n'abagore babiri, bicaye ku ntebe irimo ibara ry'umukara, imbere yabo ku meza hari mudasobwa n'uducupa tw'amazi n'ibitabo.

Abakobwa batatu n'umuhungu umwe bambaye imipira y'umweru uducupa twamazi duteretse kumeza, impapuro, terefone, amakaramu, abantu babiri bicaye inyuma.

Abantu benshi bicaye bari mu nama imbere yabo hari ameza ateretseho uducupa tw'amazi habamu umugabo uhagaze ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye yicaye abagabo batatu hari icyapa cyanditseho ngo inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gasabo, ku ruhande hari umugabo uhagaze iruhande rw'umuryango.

Abagabo benshi bicaye bari mu nama ameza manini ateretseho uducupa tw'amazi indangururamajwi ururabo icyapa kinini cyanditseho kigali yacu ikeye.

Abagore n'abagabo bicaye bari mu nama, uri imbere yambaye ikote ry'umutuku afite ikaramu mu ntoki, hari ameza ateretseho agacupa k'amazi n'ikaye.

Abagabo bari mu nama, uwambaye ishati y'umweru ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ameza ariho amacupa y'amazi n'ibirahuri, terefone n'ibitabo.

Abantu bicaye mu nama b'ingeri zitandukanye; abasore, abagore ndetse n'abagabo, hari ameza ateretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi, ibikapu, inyuma hari ibyapa, hari n'umuntu uhagaze iruhande rw'umuryango.

Inyandiko wuzuza y'ikigo gishinzwe ubuhinzi mu Rwanda, ho ushyiramo amazina, nimero za telefoni, izirangamuntu aho utuye ndetse n'ibindi bintu biranga umuntu.

Abasore bicaye mu buryo bugiye butandukanye, hari uwambaye agapira gasa umweru n'ipantaro y'ikoboyi, iruhande rwe hari undi wambaye ishati irimo uturongo, amazu akorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Aantu batatu bicaye ni babiri bambaye amashati yumweru ameza hariho igitambaro cy'umuhondo ateretseho mudasobwa ebyiri n'agacupa k'amazi abantu benshi bahagaze ari abagabo, abagore ndetse n'umwana amagare aparitse.

Abantu babiri bicaye umwe ni umusore yambaye amarinete ari gukoresha mudasobwa, iruhande rwe hateretse igikombe, hirya hari umuzungu wambaye ingofero y'umukara mu mutwe uri gukoresha terefone, inyuma yabo hicaye abandi bantu benshi.

Urubuga handitseho viziti Rwanda, irushanwa ryitabirwa n'ibihugu bitandukanye bibera mu Rwanda, ku muhanda hari amashyamba ndetse n'abantu bari kugenda.

Inyubako ndende ikorerwamo imirimo itandukanye, harimo n'iy'ubucuruzi ahantu abantu bicara ibiti, abantu benshi bari kugenda, ibyapa.

Umugabo uri gutanga serivisi z'irembo akoresheje mudasobwa. ameza ariho telefone, ibitabo, igikapu cya mashine n'umugozi wayo.

Umunara muremure uriho ibyuma n'ibikoresho bifasha mu gutuma umuyoboro uboneka neza, igikoresho cyifashishwa mu gutuma amashusho ya televiziyo agaragara neza ibiti.

Inyandiko igaragaza serivisi ziboneka ku rubuga rw'irembo urimo kwishyura ibyangombwa kubona ibyemezo.

Inyandiko yamamaza inama yitwa Iro Afurika bibiri na makumyabiri na gatatu, izabera muri Kigali hagati y'itariki cumi n'eshanu na cumi n'icyenda z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu.

Inyubako ikorerwamo serivisi z'irembo harimo gufasha abantu, kwishyura mituweli, kwishyura amazi, kugura amanite, kubona ibyangombwa bitandukanye, birimo icyemezo cy'uko umuntu ari ingaragu, cy'uko yashatse, kwiyandikisha gutwara ibinyabiziga, n'ibindi.

Urubuga rwa viziti Rwanda hariho ifoto ishushanyijeho igiti kirimo intare, amashyamba, ibiti, n'amazu ahaturiye.

Inyandiko igaragaza uburyo bwo gukoresha umuriro muke hifashishijwe imirasire y'izuba itanga amashanyarazi.

Icyapa cyamamaza umunsi wahariwe umurimo, minisiteri y'abakozi ba leta mu Rwanda irifuriza umunsi mwiza w'umurimo abakozi mu kurushaho guteza imbere ubumenyi n'umurimo unoze ari byo nkingi y'iterambere rirambye.

Urubuga rukorerwaho ibintu bitandukanye, hifashishijwe ikoranabuhanga, kubona impapuro, kuzuza ibintu birebana n'ubucuruzi.

Imodoka iparitse umuryango ufunze, umusore uhagaze uri kwireba mu kirahure, ibiti, ibyapa biri kumuhanda, urusinga rw'amashanyarazi.

Inyandiko iriho uburyo ebiyemu ikoreshwa. Imashini itanga inyemezabwishyu ushobora gukoresha interineti wishyura ukakira n' amakuru.

Abantu bari mu nama abagabo n'abagore, mudasobwa, telefone, uducupa tw'amazi, ibyapa, intebe.

Abantu babiri, ni umuzungu n'umusore wambaye ingofero y'umweru mu mutwe, inyuma yaho hari ameza agiye ateretseho mudasobwa ziri kwaka intebe ziticayeho abantu.

Umunara muremure uriho ibikoresho bifasha mu gutuma habaho itumanaho rikubiyemo ibyuma ndetse n'ibindi biri mu ibara ry'umweru bikoze nk'ingoma.

Inyandiko y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza itariki ntarengwa yo kwishyiriraho imisoro kuri tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rw'irembo muri gahunda ya byikorere ushobora kwishyura mituweri, kwiyandikisha gutwara ikinyabiziga, kubona ibyangombwa bitandukanye.

Abantu bafite telefone bari gufotora ni abagore bose bambaye udupfukamunwa hari ufite agakapu, impapuro, inzu iri kwakamo amatara.

Inyandiko igaragaza amabwiriza agenga abatanga serivise zo kwishyura hakoreshejwe telefone, mu rwego rwo kurwanya korona virusi, agomba kuba yambaye uturindantoki n'agapfukamunwa, gusiga byibuze intera imwe hagati y'umukiliya ndetse n'ibindi.

Abantu bicaye mu nama n'abagabo n'abagore, ameza ariho mudasobwa buri wese ari gukoresha intebe ziticayeho abantu, umuryango ufunze.

Abanyeshuri bicaye n'abahungu ndetse n'abakobwa, imbere yabo buri wese afite mudasobwa ifasheho insinga z'amashanyarazi, intebe ziticayeho abantu.

Umunara muremure ukozwe mu byuma, insinga z'amashanyarazi, imodoka iparitse, igiti kinini abana b'abahungu bamwe bicaye abandi bahagaze, amazu.

Ipoto ebyiri ziriho insinga z'amashanyarazi, icyapa gikoreshwa mu muhanda, inzu igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kiriho indabyo igiti kinini.

Inyubako ndende ikiri kubakwa yubakishijwe amatafari ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi igiti amabati.

Ipoto iriho insinga nyinshi z'amashanyarazi, amatara yo ku kumuhanda, indabo, ibiti, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hariho utwuma.

Inyubako zo guturamo, igipangu gifunze, hejuru hariho amatara, ipoto irimo insinga z'amashanyarazi, insina z'ibitoki, ibyatsi, indabo, ndetse n'ibiti.

Umusore wambaye ingofero mu mutwe, uri kugenda mu muhanda, imodoka nyinshi ziparitse, ipoto iriho intsinga z'amashanyarazi, ibiti, amazu.

Abantu bari mu muhanda hari abasore babiri bari kugenda n'umugore abandi baricaye, imodoka ziparitse isa umukara n'isa umweru, ipoto iriho itsinga z'amashanyarazi, amaduka akorerwamo imirimo y'ubucuruzi, akazu kari mu ibara ry'umuhondo gatangirwamo serivisi zo kubitsa no kubikuza amafaranga.

Iminara ibiri miremire ipto iriho insinga z'amashanyarazi zinyura no kuri iyo minara ibyatsi inyubako zo guturamo ndetse n'iz'ubucuruzi.

Umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi, amapoto, abasore babiri bari kugenda, inzu, indabo n'ibiti.

Umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi n'ibindi bikoresho bituma ukora neza inyubako zo guturamo n'iz'ubucuruzi amashyamba.

Umuhanda amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, igipangu gisize irange ry'umweru n'irisa nk'ivu indabo ibyatsi amazu.

Umukobwa wambaye isarubeti iri mu ibara ry'ubururu n'ijire isa icyatsi wuriye ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Amapoto abiri ariho insinga z'amashanyarazi umusore uhagaze indabo, ibiti, insina z'ibitoki, inzu iriho amategura.

Umugabo uri kugenda mu muhanda wambaye ipantaro n'umupira bisa umukara, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi umurima uteyemo ibigori n'ibindi bintu, ibiti, amazu ari hakurya.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Umunara muremure, hariho insinga nyinshi z'amashanyarazi, ndetse n'ibindi bikoresho, inyubako ifite igisenge gisize ibara ry'icyatsi n'ubururu, inkingi y'amatafari ahiye.

Amapoto abiri ariho insinga z'amashanyarazi, igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, ibiti, amazu menshi ari hakurya ndetse n'amashyamba.

Ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, insina z'ibitoki, ibigori, ibiti by'amoko atandukanye, amazu aturanye n'ishyamba.

Abantu bicaye abagabo babiri umumama umwe uhetse umwana n'umukobwa uri kuruhande hasi hateretse igikapu cy'umukara ku gikuta hariho isaha, amafoto.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye amatara yo kumuhanda ibyapa indabo imodoka eshatu ziparitse n'amashyamba.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi, hepfo hari abasore bahagaze, hari n'undi wicaye, ikigega cy'amazi, inzu yubakishijwe amatafari ahiye, umunara muremure, ibigori n'andi mazu menshi.

Abagabo babiri bicaye umwe ni umuzungu, undi ni umwirabura bambaye amataburiya asa umweru, ameza ariho mudasobwa n'imashini zifasha mu gusohora impapuro, televiziyo, akantu bashyiramo imyanda, aho gukarabira.

Inyubako ndende iriho amadirishya afite ibirahure byijimye hariho amadarajya, ibyatsi ku ruhande hari akapa kari mu ibara ry'ubururu n'imodoka ziparitse.

Abashinzwe umutekano batatu bahagaze, abantu bari kugenda, imodoka eshatu ziparitse, inyubako, icyapa, ibiti.

Umuhanda, ibyapa, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikoreramo ibitaro bya Kabgayi, imodoka iparitse, indabo n'ibiti.

Imashini nyinshi zisohora impapuro, mudasobwa, umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara n'itaburiya y'umweru, agakoresho gashyirwamo imyanda, intebe, akabati karimo ibintu bitandukanye.

Abagororwa bambaye impuzankano iri mu bara rya oranje bari mu mirimo nsimburagifungo, bafite ingorofani, amasuka n'ibitiyo, umunara muremure, amashyamba.

Abanyamategeko bicaye bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru n'udupfukamunwa, umugore uri kurahira uzamuye ukuboko, ahantu bahagarara bagiye kuvuga, umugabo uhagaze ku ruhande intebe iticayeho umuntu.

Abagororwa babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry' roza, abanyamategeko batatu abagore babiri, ndetse n'umugabo umwe mudasobwa, uducupa twaamazi, amakaramu n'impapuro.

Amarembo akozwe mu byuma inkingi ebyiri zubakishijwe amatafari ahiye hejuru hariho icyapa cyanditseho ngo igororero rya Rwamagana ku ruhande hafasheho inzu hepfo hari ibiti.

Umucamanza w'umugore yambaye amadarubindi, ingofero iri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, imyambaro isa oranje n'umweru.

Abagabo babiri bicaye umwe wambaye ama Lunette n'umwenda umuranga uburanira abantu mu by'amategeko. undi we numugororwa intebe ziri inyuma y'ibyapa.

Abanyamategeko babiri n'umucamanza umwe w'umugore, ameza ariho ibitabo, intebe isa umukara, akabati.

Abagororwa bagera ku munani b'abagabo bambaye impuzankano iri mu ibara ry'iroza ndetse n'udupfukamunwa hari kandi n'abashinzwe umutekano, amazu, indabo, ameza.

Abantu benshi bicaye ni abagabo, abagore, abakecuru n'abasaza, hagati yabo harimo umugabo w'umugororwa wambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza inyuma hari ibiti ndetse n'inzu.

Abanyamategeko baburanira abantu baba bakoze ibyaha bambaye umwenda uri mu ibara ry'umukara n'umweru, abacamanza babiri umugabo n'umugore nabo bambaye imyenda iri mu ibara risa orange n'umweru.

Abagororwa bane b'abagabo bicaye bambaye imyenda iri mu ibara ry'uroza, umunyamategeko umwe w'umugabo uhagaze uri imbere yabo wambaye imyenda isa umukara n'umweru amadirishya ari inyuma afunguye.

Abagororwa benshi bahagaze bambaye imyenda iri m'ibara ry'iroza yiganjemo abagabo n'abagore abantu babiri bicaye abandi bari inyuma, imodoka ifite ibara ry'umweru ibiti.

Inyubako yubakishijwe amakaro, irimo utubati twinshi dusize irangi rya shokora, hateretsemo ibikarito byinshi byometseho impapuro z'umweru zanditseho amagambo, imbere hari umugabo uhagaze wambaye imyenda isa umukara.

Ifoto y'umugabo w'umucamanza wambaye ikanzu iri mu ibara rya oranje n'umweru, ishati irimo uturongo tw'ubururu ndetse na karavate isa shokora.

Igororero rya Huye rifite igipangu gikozwe mu byuma n'inkingi z'amabuye, harimo inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, abasekirite babiri baharinda.

Abagabo ndetse n'abagore b'abanyamategeko bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara n'umweru bamanitse ukuboko, bari kurahira bafashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagore babiri b'abagororwa bambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza, amasaha ku kuboko, iruhande rwabo hahagaze abanyamategeko babo babiri, umwe yambaye amadarubindi, ameza atetseho mudasobwa ibitabo n'uducupa tw'amazi

Abagororwa benshi b'abagabo bagiye mu rukiko kuburanishwa, abashinzwe umutekano babarinze, inyubako ndende ndetse n'amashyamba ari ku ruhande.

Ushinzwe kuburanira abantu w'umugore uhagaze, imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa n'urupapuro. Hari undi munyamategeko wicaye w'umugabo wambaye agapfukamunwa; imbere ye hateretse uducupa tubiri: ak'amazi n'aka ji. Hari kandi na televiziyo.

Imodoka yo mumuhanda y'abashinzwe umutekano, ikamyo itwara imizigo abagabo batatu bahagaze, hari n'abandi bari mu muryango, inzu zo guturamo ziri ruguru, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, amashyamba.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Umugore uri kugenda ufite agakapu mu ntoki, inyubako, abantu babiri bahagaze, ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda n'irindi ry'ikindi gihugu, ibiti.

Abashinzwe umutekano, bari mu muhanda, bagera kuri bane, umunyonzi utwaye igare, umutaka uri mu ibara ry'umuhondo ukoreramo abantu batanga ubufasha mu kohereza, kubitsa amafaranga kuri telefoni, abantu bari gucuruza ibintu bitandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara rya kaki n'umweru, ni abahungu ndetse n'abakobwa, bari kwigishwa uburyo bwo kuzimya inkongi y'umuriro, hari umugabo uhagaze iruhande rw'umukobwa ari kumwereka uko bikorwa.

Umuntu wambaye isarubeti mu mugongo, harimo icupa ritukuramo imyuka, yambaye ingofero mu mutwe afite ibikoresho bimufasha kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro.

Abashinzwe umutekano hari uhagaze ku ruhande abandi bari mu muhanda bari guhagarika imodoka, hirya hari abantu bahagaze, indabo, amatara yo ku muhanda, ibiti.

Abagabo babiri bahagaze undi umwe aricaye afite telefoni mu ntoki ze, imodoka ebyiri ziparitse abantu bari kugenda mu muhanda abamotari, amazu, ibiti, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Umugabo uyoboye inama hari kandi n'abandi bantu bicaye biganjemo abagore, ndetse n'abagabo imbere yabo, hari indangururamajwi uducupa tw'amazi n'ibitabo.

Abantu bari matora umugore wambaye ipantaro n'ikote risa umukara, imbere ye hari igisanduku gipfundikiye ku ruhande hari abagabo babiri bambaye imipira y'umweru hari n'abandi bantu bari inyuma yabo.

Abasore bane n'umukobwa umwe, bambaye imyenda y'umweru, umupira n'ingofero, ameza ariho agacupa k'amazi n'impapuro.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro isa umukara, n'ishati irimo imirongo y'ubururu, yambaye kandi isaha ku kuboko afite ikaramu mu ntoki ari kwandika ku bipapuro biri ku gikuta.

Umugore wicaye wambaye agapira karimo uturongo, isaha ku kuboko, amaherena ,umukufi wo mu ijosi afite terefone nini inyuma ye hari amarido asa umweru.

Umugabo wicaye ku ntebe isa umukara yambaye ikote, ishati na karuvati, imbere ye hateretse agacupa, indangururamajwi, urupapuro, n'ikaramu.

Urugi rufunze, umugabo wicaye ku ntebe y'umukara afite ikaramu mu ntoki ze, ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ifoto y'umugabo wambaye amadarubindi, ikote, ishati y'umweru, karuvati irimo imirongo y'umweru.

Minisitiri w'urubyiruko, witwa Utumatwishima, yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umukara, na karavate, amanitse ukuboko ari kuvugira mu ndangururamajwi.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru n'isaha ku kuboko, ufite terefone mu ntoki uri gufotora. Iruhande rwe hicaye undi muntu, inyuma naho hari abandi bantu, ameza ateretseho agacupa k'amazi.

Umugabo wambaye ikoti, ishati y'umweru na karuvate isa umutuku, ameza ateretseho mudasobwa, indangururamajwi, ndetse na terefone.

Icyapa kiriho umugabo uri kwiyamamaza hahagaze umusore ku ruhande wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, ibiti, amazu menshi ari hakurya.

Umugabo wambaye ishati ufite indangurumajwi mu ntoki ze, inyuma hari abagabo babiri bambaye amashati y'umweru n'amajiri y'umukara iruhande rwabo hari imodoka.

Umugore wicaye wambaye umupira ndetse n'ingofero isa umweru, afite urupapuro mu ntoki hari n'izindi mpapuro ziteretse ku meza hamwe n'ikaramu, imbere ye hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe, inyuma hari umugabo wicaye.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, imwe ni ivatiri indi ni igikamyo gikoreshwa mu gutwara imicanga, amabuye n'ibindi bintu bitandukanye, ibiti, amatara yo ku muhanda.

Igare riri ku ruhande imodoka ziri kugenda mu muhanda harimo imwe iri mu ibara ry'umweru ikoreshwa mu gutwara imizigo umusore uri gutambuka.

Imodoka ebyiri z'ikamyo zikoreshwa mu gukura imodoka mu muhanda zakoze impanuka, ibiti, amatara yo ku muhanda, inzu.

Imodoka zitwara abagenzi mu rwego rwa rusange, abasore babiri, umugore uri kugenda, amatara yo kumuhanda n'amapoto.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, imodoka y'ikamyo, umusore uri kugenda, umumotari utwaye igisanduku, umugabo wikoreye imifuka ibiri, ibiti, amazu.

Imodoka iparitse kumuhanda amaduka nkayiri ifunguye ifite umuryango usize irangi ry'ubururu akamashini gakoreshwa mu guteka injugu.

Imodoka iri kugenda itwaye ibikoresho bakoresha bubaka, umumotari ufite umufuka kuri moto, abagabo bari kugenda, imodoka y'ikamyo, ibiti.

Umunyonzi utwaye ibintu ku igare biri mu mufuka ,imodoka iri kugenda mu muhanda ibiti, amatara yo ku muhanda, indabo.

Umunyonzi w'umugabo wambaye ingofero n'agapira karimo imirongo, inyuma aho abantu bicara haziritseho umufuka, ikamyo nini itwara imizigo, ibiti, amazu.

Imodoka y'ikamyo isa umweru, abamotari bari mu muhanda, imodoka itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, abantu bari kugenda, amatara yo ku muhanda, ibiti, inyubako zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Imodoka ntoya ndetse n'inini zitwara abagenzi mu rwego rwa rusange. Abasore babiri bari gutambuka, ushinzwe umutekano, amatara yo ku muhanda, inyubako ndende.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda ndetse n'indi itwara abagenzi mu rwego rwa rusange amatara yo ku muhanda abantu bari kugenda inyubako, ibiti.

Umuhanda hari kunyuramo ikamyo nini cyane ikoreshwa mu gutwara imizigo iva mu gihugu kimwe ijya mu kindi, abamotari, imodoka zisanzwe, abantu bari kugenda mu muhanda, amatara, amashyamba.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mumuhanda itwikirijweho ihema ry'ubururu abanyonzi babiri bose batwaye abagenzi kuruhande hari abasore batatu bari kugenda munsi y'umuhanda hari amazu n'ibiti.

Umukobwa uhetse igikapu uri kugenda mu muhanda, imodoka itwara imizigo harimo umugabo, umumotari utwaye umugenzi ibiti biri ku muhanda.

Imodoka na moto biri kugenda mu muhanda, abantu bari gutambuka, akabari harimo ihema, ibiti inzu zikorerwamo ubucuruzi n'izo guturamo, amatara yo ku muhanda.

Ni ikarita y'abacuruzi baroko ahantu bacuruza ibiryo n'ibinyobwa biri, haba hariho ibiryo n'igiciro cyabyo amafaranga bigura ndetse n'uburyo ugomba kumenya ibyo uhitamo kugira ngo babikuzanire, mu buryo bwo kunoza imikorere yabo.

Imodoka nini y'ikamyo, harimo abantu babiri, umushoferi n'undi muntu umwe, umunyonzi utwaye igare, umugabo wambaye imyenda y'umukara uri kugenda, ibiti, hakurya y'umuhanda hari inzu nyinshi.

Abamotari babiri bari kugenda mu muhanda moto nini ikoreshwa mu gutwara imizigo, imodoka ziparitse, amaduka acuruza ibintu bitandukanye, inzu zo guturamo.

Imodoka eshatu ziparitse zitwara abagenzi, ku ruhande hari abamotari, inyubako zikorerwamo imirimo itandukanye y'ubucuruzi bw'amatelefone ndetse n'imyenda n'ibindi bitandukanye, abantu bari kugenda, ibiti n'indabyo.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota iri kugenda mu muhanda, umunyonzi utwaye umuntu, ibiti, amatara yo ku muhanda, indabo ndetse n'inzu.

Imodoka zigera kuri eshatu ziparitse zitwara abagenzi bo mu mujyi wa Kigali, umushoferi uhagaze ndetse n'umugore uri gutambuka.

Imodoka itwara imizigo iri kugenda mu muhanda, hariho amahema ari mu ibara ry'icyatsi, ibiti n'abantu.

Imodoka y'ikamyo itwikirijweho ihema risa umweru iri kugenda mu muhanda ibiti byinshi, inyubako ziri munsi y'umuhanda insinga z'amashanyarazi.

Imodoka itwara imizigo iri kugenda mu muhanda, abagabo babiri bari gutambuka, igare amatara yo ku muhanda, ibiti, indabo hakurya hari inzu.

Umumotari uri kugenda mu muhanda utwaye ikarito, moto nini irimo umushoferi, itwara imizigo, ibiti, izindi modoka ziparitse, amazu menshi.

Umumotari uri kugenda mumuhanda utwaye moto amatara yo kumuhanda ipoto iriho insinga z'mashanyarazi, ibiti inyubako ndende igipangu gifite urugi ruri mu ibara rya shokora .

Imodoka itwara abagenzi mu rwego rwa rusange iri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, harimo abagenzi benshi bahagaze ndetse n'abicaye, hari indi modoka y'umukara yo mu bwoko bwa toyota ibiti n'amazu ari munsi y'umuhanda.

Imodoka y'ikamyo isa umutuku ipakiye umucanga harimo umushoferi uyitwaye amatara yo kumuhanda ibiti insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ikamyo ipakiye ibintu, itwawe n'umushoferi w'umusore wambaye agapira k'umutuku, ku ruhande rwo hepfo hari kugenda abagore babiri, umwe muri bo afite agakapu gasa umukara, hepfo yabo hari ibiti n'undi muntu wicaye.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, harimo abantu babiri, umwe yacishije ukuboko mu kirahure gifunguye, ibiti, urugo rwubakishijwe amabati asize irangi ry'ubururu n'umutuku.

Imodoka itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, hicayemo abantu, hariho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, kivuga ngo gucunga konti ni ubuntu hashushanyijeho umuntu, amatara yo ku muhanda ibiti.

Imodoka y'ikamyo isa umweru, imbere yayo hari indi vatiri, abamotari batwaye abagenzi n'izindi modoka. Ku ruhande hari abanyamaguru bari kugenda, amatara yo ku muhanda, insinga z'amashanyarazi, ibiti.

Amagare atatu aparitse, umunyonzi uhagaze iruhande rwa rimwe muri yo, amatara yo ku muhanda imodoka ziri gutambuka.

Imodoka ebyiri z'ibikamyo zipakiye imizigo, hari ifite imifuka myinshi irimo ibintu, abagabo babiri bari ku ruhande n'umugore uhagaze mu mutaka uri mu ibara ry'umuhondo, ibiti, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi.

Umugabo utwaye moto nini ikoreshwa mu gutwara imizigo, hariho nimero ze za terefone n'icyapa cyamamaza inzoga ya pirimusi, ibiti, inyubako, umuntu uhagaze.

Imodoka iri kugenda, abasore babiri bicaye umwe yambaye boti z'umweru n'agapira k'ubururu, imodoka y'ivatiri, inyubako zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, amatara yo ku muhanda, ibyatsi n'ibiti.

Imodoka y'ikamyo ipakiye ibintu byinshi itwikirijweho ihema ry'umweru, umusore uri kugenda mu muhanda inyubako ziri munsi, ibiti, amatara yo kumuhanda.

Abamotari babiri bari mu muhanda, imodoka iparitse, ibiti, icyapa, urusinga rw'amashanyarazi n'inyubako nyinshi.

Umuhanda urimo abamotari badahetse abagenzi, imodoka y'ivatiri n'indi iri inyuma y'ikamyo, abanyamaguru bari kugenda, amatara yo ku muhanda, amashyamba.

Imodoka nini y'ikamyo itwara ibintu iri mwibara ry'umweru, umunyonzi utwaye amata ku igare, umumotari abantu bari gutambuka amatara yo ku muhanda ibiti n'amaduka.

Abasore babiri bari kugenda umwe ahetse igikapu imbere yabo hari umukobwa wambaye agapira k'umweru hari imodoka is'umukara, igipangu, ibiti.

Umusore uhagaze wifashe mu mayunguyungu moto yifashishwa mu gutwara imizigo, abamotari batwaye abagenzi, imodoka nyinshi ziri inyuma, inyubako ndende, ibiti, amatara yo ku muhanda.

Imodoka y'ikamyo itwikirijweho ihema risa ubururu, hejuru hariho igipine imodoka yindi yo mu bwoko bwa toyota iparitse, ivuriro ryigenga, insinga z'amashanyarazi.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mumuhanda itwaye amakara, hatwikirijweho ihema risa ubururu, inyubako ndende ibiti.

Imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa tagisi zitwara abagenzi. Abantu batatu bahagaze iruhande rwazo babakobwa, inyuma hari izindi modoka nyinshi, insinga z'amashanyarazi, amashyamba...

Ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko, intebe zo kwicaraho, ibiti by'amoko atandukanye byinshi, amatara yo k'umuhanda, indabo ziteye mu busitani.

Ikibuga cy'umupira, imodoka iri kugenda mu muhanda, inzu, umunara muremure, ibiti, abantu bicaye n'undi muntu uhagaze.

Icyapa kiri mw'ibara ry'umutuku giciyemo umurongo kigaragaza ko nta kinyabiziga cy'amagare cyemerewe gukoreshwa mu muhanda icyo cyapa kirimo.

Icyapa kigaragaza ko abagenzi bagomba kwambuka, amapoto n'ibiti birimo insinga zitanga amashanyarazi, umumotari uri kugenda mu muhanda, ibigori, ibiti, n'amazu.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kigaragaza aho abanyamaguru bambukira. Ibyatsi, indabo zisa umuhondo, ibiti, inyubako.

Icyapa kiri k' umuhanda cyanditseho Rambura, abagore babiri bari gutambuka n'abandi bantu bari inyuma yabo, imodoka, amatara yo k' umuhanda ibiti, amazu.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza kugendera ku muvuduko wa mirongo ine, igipangu kiriho urugi rufunze, indabo ziri ku ruhande, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, inyubako ndende ikiri kubakwa.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda mu kuyobora ibinyabiziga, ndetse n'abanyamaguru biri mu ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umumotari uparitse moto kumuhanda icyapa kiri mubyatsi ipoto iriho insinga z'amashanyarazi ingo nyinshi zituriye umuhanda.

Inzu nyinshi, izarangiye kubakwa n'izitararangira, imodoka ipakiye ibintu, ibiti, indabyo, insina z'ibitoki, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi.

Inyubako zigera muri eshatu ndende zikorerwamo ibintu bitandukanye imodoka isa umweru iparitse, indabo, ibiti hakurya hari amazu n'amashyamba.

Igipangu cy'amatafari ahiye inyubako ndende, inzu zubatswe mu buryo busanzwe, ibyatsi ibiti, amadirishya arimo irido.

Umumotari utwaye moto wambaye ikoti risa umukara, abandi bantu babiri b'abakobwa bahagaze iruhande rw'igipangu, ipoto nyinshi zitandukanye ziriho insinga z'mashanyarazi, amaduka acuruza ibikoresho byo kumeseramo ndetse nibindi bintu.

Inyubako ndende zikorerwamo imirimo itandukanye n'izo guturamo izubatse mu buryo busanzwe amabati n'ibiti.

Amazu, igipangu kirekire, ibigega by'amazi bine, insinga z'amashanyarazi ipoto iri hirya ku ruhande.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo, harimo amapantaro, amashati, imipira, ndetse n'inkweto, ni imiryango ibiri, hepfo hari undi muryango ugiye kwinjiramo umugabo, iruhande rwe hari kandagira ukarabe.

Amazu menshi yubatse mu buryo butandukanye, ageretse, ikigega cy'amazi, ibiti umunara muremure, insinga z'amashanyarazi.

Inzu ebyiri imwe ifite amategura, indi yubakishijwe amatafari ahiye. Ku rugo hejuru hariho itara, umukindo, indabo, icyapa kigaragazako ari amazu yo guturamo...

Amazu menshi yubatse mu buryo butandukanye igeretse, amapoto, insinga z'amashanyarazi, amashyamba insina z'ibitoki.

Icyapa cyo ku muhanda kiranga agace runaka, ipoto ririho insinga nyinshi zitanga amashanyarazi, ibiti, ndetse n'indabyo.

Imodoka ziparitse harimo ivatiri y'umweru, ubusitani buteyemo indabyo, ibiti, inzu hariho insinga z'amashanyarazi, urugi rufunze rusize irangi ry'umweru.

Inyubako ndende inzu zubatswe mu buryo busanzwe, zo guturamo ibigega by'amazi, insina z'ibitoki amashyamba amatara yo ku muhanda.

Inyubako ndende igeretse, ikoreramo ivuriro ryigenga n'indi miryango ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, imodoka nyinshi ziparitse hanze, ibiti.

Imodoka ziri kugenda mu muhanda, inyubako ndende ikorerwamo imirimo itandukanye, amaduka akorerwamo ubucuruzi umutaka usa umuhondo, umugabo uhagaze iruhande rwa moto, ibiti, abantu bahagaze.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ifite ibirahure byijimye, ibiti, ibyatsi, umuhanda urimo imodoka ndetse n'abantu.

Umusore ufite terefone mu ntoki wambaye umupira usa n'umukara igipangu cyubakishijwe indabo inyubako ndende igipangu kirimo insina z'ibitoki amazu menshi ari hakurya.

Inyubako ndende igeretse gatatu. izindi zisanzwe igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi ibiti ndetse n'indabo.

Moto eshatu ziriho ibisanduku, zifashishwa mu gutwara ibintu abakiriya babatumije, inyubako ndende, imodoka ebyiri ziparitse zisa umukara.

Inyubako ndende yanditseho biza ifite amadirishya afite ibirahure byijimye, ibiti, indabo z'ubwoko butandukanye, hejuru ku nkingi hariho itara.

Umuhanda w'igitaka, ibyatsi, indabo, inyubako ndende zubatswe mu buryo bugezweho, umuntu wambaye ipantalo y'umukara n'ishati y'umweru uhagaze iruhande rw'igipangu.

Umuhanda wo mu giporoso harimo imodoka ziri kugenda zitwara abagenzi, abantu bari gutambuka, amatara yo ku muhanda, ibiti ibyapa n'imitaka ikoreramo abacuruzi, batanga bakanohereza amafaranga kuri telefoni.

Umugabo utwaye moto, umusore uri gutambuaka mu muhanda, imodoka iparitse, ibiti, insinga z'amashanyarazi, indabyo, inyubako.

Amaduka abiri acuruza imyambaro y'abagabo, abagore ndetse n'iy'abana; ibikapu bimanitse, imodoka iparitse hanze y'imiryango.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, hariho amatara, inyubako ndende ifite ibirahure byijimye, urusinga rw'amashanyarazi, indabo ziri hanze.

Aba motari benshi batwaye abagenzi imodoka ziri kugenda umusore wambaye umupira w’umutuku uri gutambuka amatara yo ku muhanda indabo ibiti.

Imodoka esheshatu, eshanu ni amakamyo manini atwara imizigo, imodoka isa umweru itwara abagenzi, abamotari bari mu muhanda, abantu bari kugenda, ibiti, insinga z'amashanyarazi ndetse n'amazu.

Umuhanda w'igitaka, indabo zisa umuhondo n'icyatsi, ibiti, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi, ibipangu bibiri bisa ubururu.

Umuhanda urimo imodoka yo mu bwoko bwa toyota, abamotari babiri batwaye abagenzi, umusore uri gutambuka, imodoka nini iri inyuma y'ikamyo, amatara yo ku muhanda ndetse n'amashyamba.

Umuhanda urimo imodoka nini y'ikamyo moto, cyapa kinini gishushanyijeho ibintu amatara yo ku muhanda, imikindo n'ibindi biti.

Umuhanda urimo moto ziri kugenda, imitaka ikoreramo abantu batanga ubufasha mu kubitsa no kubikuza amafaranga, imodoka, amaduka acururizwamo ibintu bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka ziri kugenda, abamotari batwaye abagenzi ibyapa byo k'umuhanda haririmo n'ibyamamaza amatara yo k'umuhanda ubusitani ibiti.

Abamotari babiri bari kugenda mu muhanda badatwaye abagenzi, ihuriro ry'umuhanda, amatara ari kwaka, abantu bari kugenda, ikigega cy'amazi.

Abamotari batwaye abagenzi, imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, ibyapa byo ku muhanda biyobora imodoka, amatara yo ku muhanda, ibiti n'amazu.

Abamotari batatu batwaye abagenzi, amatara yo ku muhanda, imodoka imwe iri inyuma, ibiti, aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda, harimo imodoka ziri kugenda, hari isa umukara, ikamyo, abamotari batwaye abagenzi, ibyapa byo ku muhanda, ndetse n'inzu.

Imodoka ziri kugenda harimo itwara abagenzi mu rwego rwa rusange, abamotari, amatara yo ku kumuhanda, indabo, ibiti, ibyapa, n'abagenzi bari kugenda.

Imodoka ebyiri z'ibikamyo ziri kunyura munsi y'ikiraro, abamotari, umunyonzi n'abagore babiri bari kugenda kuruhande, hejuru y'ikiraro hari imodoka y'umutuku n'umumotari utwaye umugenzi, ibiti.

Umuhanda urimo ibinyabiziga, umuntu uri kugenda, amatara yo ku muhanda ari kwaka, inyubako ndende zikorerwamo ibintu bitandukanye, indabo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari, imodoka ziri kugenda, amatara yo ku muhanda, ibiti n'amashyamba.

Umumotari utwaye umugenzi umusore uri kuvugira kuri terefone, uri kwambuka umuhanda umunyonzi, abantu babiri bari kugenda umwe ahetse igikapu mu mugongo, amatara yo kumuhanda ibiti.